Ni abagabo babiri barimo baratwara ikizwi nk'ifumbire y'imborera, aho yarundiwe hamwe nk'imyanda maze ikaza kubora ikazakoreshwa, mu mirima y'abaturage mu buryo bw'ifumbire ngo imyaka yere vuba kandide neza.

Ni inzu icururizwamo ibintu byerekeranye n'ubuhinzi, aho mu tubati dutandukanye harimo imirama, harimo iy'imboga ndetse n'itomati ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buhinzi.

Ni umurima uhinzemo ibigori ukaba urimo uraterwamo izindi mbuto z'ibindi bimera ndetse ukaba uri mu cyaro, aho hatuye abantu bakeya ndetse hakaba hari n'inzu nkeya.

Umugabo ahagaze hejuru y'ifumbire y'imborera, aho imyanda yagiye ikusanyirizwa hamwe kugira ngo izabure ikoreshwe mu mirima y'abaturage nk'ifumbire kugira ngo imyaka yere neza. Iyi fumbire ikaba iri ahantu mu ishyamba.

N'ubutaka bukomeye buvanzemo amabuye ateyeho ibimera bitandukanye, harimo ibimera by'imyumbati n'isombe, hirya yaho hari ibiti bitandukanye bikorwamo n'amakara.

Hari ikiganza gifashe mu ntoki agakarito k'umweru n'umutuku gashushanyijeho inka kanditseho amagambo hirya hasi hari imeza ndetse na tapi bigaragara ko ari mu nzu.

Ni ahantu hakusanyirijwe imbuto zitandukanye, harimo imyembe, amapera, ndetse n'amacunga, imizabibu, n'imineke, n'izindi nyinshi, kugira ngo zibashe gucuruzwa ku baturage.

Ni insina iri mu rugo rw'umuntu aho iri hejuru y'inzu isakaje amategura, bigaragara ko ari mu cyaro, ikaba imaze kuzana umwanana, bigaragara ko yenda kuzana igitoki.

Ni ibiti bibiri biryamye hasi mu bindi byatsi, igiti kimwe kirashishuye, ikindi gishishuye igice, ahandi ntihashishuye, haragaragara bibiri n'ikindi giti kiri hejuru.

Ibiti biteye bitandukanye, harimo ibitoya cyane, ndetse n'ikinini kiri hagati, hirya yaho hari amazu agiye atandukanye, harimo udusozi n'utubande.

Ni igihingwa cyo mu bwoko bw'imboga kikaba cyera nk'intorkiyi ndetse kigasa nkazo ariko bigatandukanira ku mabara, aho cyasasiwe ibyatsi kugira ngo cyere kandi gikure neza.

Ni abaturage bo mu cyaro bakora umurimo w'ubuhinzi, baho bamaze gukora ikizwi nk'akarima k'igikoni, gakunze gukorerwa mu rugo rw'umuntu maze hagahingwamo imboga zikoreshwa muri urwo rugo.

Ni umuntu w'igitsina gore urimo ubagarira umurima we urimo ibyiganjemo ibigori, soya ndetse n'imyumbati, imirima ikaba itandukanyijwe n'utuyira turimo hagati ndetse hirya hakaba hatewe insina n'ishyamba.

Ni umuntu w'igitsina gore uri mu murima uhinzwemo intoryi ndetse zikaba zimaze kwera, aho zimwe amaze kuzisarura akaba azifite mu ntoki, uyu murima ukaba uzengurutswe n'indi mirima ihinzwemo insina.

Avoka zikiri mu giti, harimo intoya ndetse n'imini, haragaragara ibibabi, izo avoka ntizirashya kuko zikiri ku biti, ziri ku mashami.

Ni ubutaka bwifitemo amazi bwitwa igishanga, bukikijwe n'imisozi bukaba bwarahinzwemo umuceri ukiri mutoya, ukaba uri guhingirwa n'umugore.

Ni agace gatoya k'icyaro gaturiwe n'abantu ndetse gakorerwamo ubuhinzi, akaba ari ku musozi ubuhinzi bwaho bukaba bwiganjemo icyayi ndetse n'ingano, hakaba hakikijwe n'ishyamba rigari.

Ni nyamaswa yo mu rugo yitwa ingurube, ikaba izwiho kubwagura utwana twinshi kandi mu gihe kimwe, aho yari iryamye hasi irimo ironsa utwana twayo, uko ari umunani.

Ni inka iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti aho yazaniwe ubwatsi bwo kurisha muri icyo kiraro.

Ni inyamaswa zitwa inkende zicaye ku ishami ry'igiti, aho ziba mu ishyamba cyangwa se zikaba no mu bantu, zikaba zikunda kurira ibiti, zikaba zifite byinshi zihuriyeho n'abantu kuko zirya nk'abantu.

Ni inyamaswa yitwa imparage igira amabara abiri iry'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari inyamaswa iba mu ishyamba ndetse no mu mapariki atandukanye, igakurura ba mukerarugendo kubera ubwiza bwayo butangaje.